Umuganga ukora muri serivisi z'ubuhinzi, yambaye ibikoresho byabugenewe bimufasha mu kwirinda ari gusuka imiti igiye itandukanye igiye guterwa mu bigori, inyuma ye hakaba hahagaze abantu benshi.

Umuhinzi uri gutera umuti mu murima w'intoryi akaba ahetse ipombo ari kwifashisha kugira ngo abashe kuba yatera umuti, abahinzi b'imboga banezezwa nuko babasha kuba babona amafaranga ikindi kandi bakabona n'ibyo bakoresha mu ngo aho batuye.

Umuhinzi uhinga ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye ahetse ipombo akaba ari gutera imiti y'ubwoko butandukanye kugira ngo acyinjyire ibihingwa bye uburwayi bujyiye butandukanye bityo azabone umusaruro uhajyije

Umuntu uri gutera umuti mu bihingwa yifashishije ipombo, ikindi kandi akaba uwo muntu yambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo uturindantoki ndetse n'indi myambaro yabugenewe kugira ngo abashe kuba yakikingira.

Abajyanama b'ubuhinzi batanga ubwoko bw'imiti itandukanye, yifashishwa mu buhinzi bityo kugira ngo abakora umwuga w'ubuhinzi babashe kuba batera imbere.

Ikibaya gifite ibyuzi bororeramo amafi, ikindi kandi ku nkengero z'ibyo byuzi hakaba hakorerwa ubuhinzi bw'imboga zigiye zitandukanye, hakurya hakaba hari inzu zitunganyirizwamo ingemwe z'imbuto zigiye zitandukanye.

Insina ndetse n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye, hafi yaho hakaba hari icyuzi gisendereye kinini, hafi haruguru hakaba hari ingo ndetse n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye.

Abagabo batatu bateruriye urushundura ruriho amafi bakaba bavuye kuroba mu kiyaga, hirya y'ikiyaga hakaba hari ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, abakora ubworozi bw'amafi bakaba babasha kubona amafaranga ndetse n'amafi yo kurya.

Isahani iriho amafi, abakora ubworozi bw'amafi banezezwa n'uko babasha kubona amafi yo kurya, ikindi kandi bakagurisha bakabasha kuba babona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye bityo bakiteza imbere.

Abantu babiri bateruye urushundura rurimo amafi, ubworozi bw'amafi ni ubworozi butunze abantu benshi babukora kuko abakorarozi babasha kubona amafi yo kurya ikindi kandi bakabona n'amafaranga.

Abantu bari gutunganya umusaruro wa kawa, hafi yaho bakaba hari ibase bari gutunganiriza. Abahinzi bahinga ikawa banezezwa nuko, babasha kubona amafaranga, kuko ikawa ari igihingwa ngengabukungu gitunze abantu benshi.

Umuntu uri mu murima w'icyayi akaba ari kugisarura, abakora ubuhinzi bw'icyayi babasha kubona amafaranga ikindi kandi bagatanga n'imirimo ku bagisoroma kugira ngo babashe kuba nabo bakiteza imbere.

Abantu bahagaze iruhande rw'umurima w'umuceri. Abahinga umuceri banezezwa n'uko ubuhinzi bakora bw'umuceri babasha kubatunga kuko babasha kubona umuceri wo kurya, ikindi kandi bagasagurira n'amasoko bakaba babasha kubona amafaranga.

Ababyeyi bari mu murima w'icyayi bakaba bari kugisarura, abahinga ndetse n'abasoroma icyayi babasha kubona amafaranga bityo bakiteza imbere kuko babasha gutunga imiryango yabo bakayibonera ibyo ikeneye.

Umugabo uri mu murima w'ikawa itarera, abakora umwuga wo guhinga ikawa, banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga, bityo bakabasha kwiteza imbere ,ikindi kandi guhinga ikawa bikaba bishobora guteza imbere umuntu wese ubikoze.

Ikawa ni igihingwa ngengabukungu gitunze Abanyarwanda benshi, aho abakora ubuhinzi bw'ikawa babasha kubaha amafaranga babasha kwifashisha mu ngo bityo bakaba bakivana mu bibazo by'ubukene.

Ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu, gitunga abantu, aho babasha kuba babona amafaranga, ikindi kandi abakora ubu buhinzi bw'ikawa, banezezwa nuko' babasha kubabona amafaranga ashobora, kuba yabafasha mu kwiteza imbere.

Inyubako yororerwamo ubworozi bw'inkoko hakaba hari uburyo butandukanye buzifasha kugira ngo zibashe kuba zabona uko zirya ndetse n'uko zinywa abakora ubworozi bw'inkoko babona amafaranga bityo bakabasha kwiteza imbere.

Ubwoko bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura amatungo, harimo amatungo magufi ndetse n'amaremare, abaganga b'amatungo bifashisha ubwoko bw'imiti itandukanye kugira ngo babashe gukingira ndetse no kuvura amatungo.

Abaganga b'amatungo bifashisha imiti itandukanye ifasha kugira ngo bakingire ubwoko bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare bityo kugira ngo bayakingire kandi bayavure indwara zigiye zitandukanye.

Amaduka acuruza ibiribwa by'amatungo ndetse n'imiti yabyo, banezezwa nuko kuba batanga serivisi nk'izi ku bantu, babasha kubona ibyo bagaburira amatungo agiye atandukanye, yiganjemo inkoko, ndetse n'izindi nyamaswa zo mu rugo.

Aho batunganriza ibiti ndetse n'ibindi biribwa byifashishwa mu kuvura inyamaswa bityo kugira ngo zibashe ko bazagira ubuzima bwiza, icyumba cyabugenewe aho batereka imiti yatunganijwe kugira ngo ibashe kuba yagizwa ku bayikeneye.

Abagabo batatu bafite imifuka bari gushyiramo ingemwe z'ubwoko bw'ibimera, bakaba bagiye guhinga kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, abakora umwuga w'ubuhinzi bw'imbuto zigiye zitandukanye, babasha kubona amafaranga ikindi kandi bakiteza imbere.

Umugabo uri kubagarira igiti akaba hafi ye hari umugabo wambaye imyambaro y'inzego z'umutekano umugabo akaba yambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo uturindantoki ndetse n'ingofero kugira ngo abashe kuba yabasha gukora akazi keza afite ubwirinzi.

Abahinzi bari mu murima bakaba bafite amasuka hirya yabo hakaba hari umujyanama w'ubuhinzi akaba ari kubakangurira ndetse anabagira inama y'uburyo bagomba gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga.

Umubyeyi uhagaze ufite isuka ndetse n'agafuka ,hirya ye hakaba hari ibiti by'imiyenzi ndetse n'ibindi biti birebire by'ubwoko bugiye butandukanye, akaba ahagaze mu byatsi.

Abagabo batatu bari mu murima w'ibigori, abahinga ibigori banezezwa n'uko babasha kubona ibyo bakeneye ikindi kandi bakaba bari mu murima bari kubagara ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Abahinzi bahinga ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye, bari ahantu batunganiriza ingemwe z'ibihingwa bigiye bitandukanye kugira ngo bibashe kuba byagezwa ku bahinzi bityo babashe kuba babihinga. Abakora ubu buhinzi banezezwa nuko babona amafaranga abasha kuba yatunga.

Umuntu uteruye imbuto ziri mu bihoho aho abakora umwuga w'ubuhinzi ubasha kuba wabatunga kuko ubaha amafaranga bityo bakabasha kwiteza imbere ndetse n'imiryango yabo ikaba yabasha kubona ibyo ikeneye.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibigori akaba afite ibindi bigori mu ntoki, hakurya y'uwo murima w'ibigori hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye, ikindi kandi ubuhinzi bw'ibigori bukaba bufasha ababukora mu kwiteza imbere.

Abahinzi bari mu murima imbere yabo hakaba hari umubyeyi uteruye igihaza, ikindi kandi abakora ubuhinzi bwiganjemo imboga ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, babasha kubona ibyo kurya ndetse bagasagurira amasoko.

Abahinzi bari mu murima w'imboga zigiye zitandukanye, aho bari gusarura, ikindi kandi abakora uyu mwuga wo guhinga imboga, babasha kubona ibiryo byo kurya, ikindi kandi bagasagurira amasoko, bakabasha kubona amafaranga.

Umuhinzi uhagaze mu murima urimo ibihingwa bitandukanye akaba afite ibishingwe akaba ari kugenda anyabagiza muri uwo murimo, abakora ubuhinzi butandukanye banezezwa n'uko babona amafaranga ashobora kubafasha mu gukemura ibibazo bitandukanye.

Aborozi borore u ubworozi bw'inkoko, banezezwa kuba baba bafite ibiraro byabugenewe aho bororera inkoko, bibafasha kugira ngo umurimo bakora ubuzima bwabo bwa buri munsi, ubashe kubatunga aho babasha kubona amafaranga ahagije.

Umurima w'itaba, aho uwo murima hariho ibihingwa bigiye bitandukanye, ikindi kandi hakaba kuri iyo mirima hariho ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye ndetse hakaba hatuwe n'ingo z'abantu.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bifashisha imashini zibafasha mu guhinga ndetse no gusarura imisaruro yabo kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, mu kwifashisha imashini bibafasha kugira ngo babashe koroshya imirimo.

Umurima uri mu bwoko bw'ibimera bitandukanye, ndetse n'ibiti harimo ibiti by'ipapayi, ndetse n'ibindi ibimera byo hasi, ibimera bikaba bifasha abantu kuba babona ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bituruka ku bimera.

Ubwoko bw'imboga buhingwa kugira ngo abahinzi bajye babasha kubona ibyo bakeneye birimo imboga. Urubuto rwa dodo ruhinze mu murima, aho rufasha abantu kugira ngo abashe kubona imboga barya ikindi kandi banabone n'amafaranga.

Umubyeyi uhagaze mu murima w'ibigori, abakora ubuhinzi bw'ibigori babasha kubona amafaranga ikindi kandi iyo umusaruro weze bawugeza ku isoko kugira ngo babashe kuba babona amafaranga, abafasha gukemura ibibazo bitandukanye mu ngo zabo.

Umurima urimo ibitunguru ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye byiganjemo imboga, abahinzi bakora ubuhinzi bw'imboga ndetse n'ubutunguru banezezwa nuko babasha kubona ibyo bakoresha ikindi kandi bakabona amafaranga abafasha kwitunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umurima uhinzemo ibigori byabitse cyangwa byazanye imibiko bikiri bitoya, hirya yayo hakaba hari igisambu kiriho ibyatsi, abahinzi b'ibigori babazwa n'uko bahinga imbuto ikaba itabasha kwera neza.

Umurima uhinzeho umuceri abahinzi bahinga umuceri bakaba bahinga ku buso bunini kugira ngo babashe kuba babona umusaruro uhagije bityo babone ibyo kurya, ikindi kandi babone amafaranga abatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako zicuruza ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibiryo ndetse n'ibiribwa, zifasha abantu kubona ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibigori ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, abahinzi bakaba bakora ubuhinzi bubafasha kuba babona ibyo kurya, ikindi kandi bakaba babasha kubona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Insina iri mu murima w'ibigori ndetse n'ibishyimbo abahinga urutoki banezezwa n'uko babasha kubona ibitoki byo kurya ikindi kandi ibitoki bikaba bibafasha mu kubona amafaranga.

Umurima uhinzemo ibihingwa ngandurarugo byiganjemo ibijumba ndetse n'imyumbati, abakora ubu buhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo banezezwa n'uko babasha kubona ibyo kurya ikindi kandi bagasagurira amasoko kugira ngo babone amafaranga.

Ubwoko bw'imbuto bugiye butandukanye bwiganjemo amapera, bubasha kuba bwafasha abantu kubona imbuto barya ,bityo bakabasha kuba bakirinda indwara, ikindi kandi imbuto zifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'insina n'ubundi bwoko bw'ibimera bitandukanye, abakora ubuhinzi buri mu bwoko bw'ibihingwa ngandurarugo banezezwa n'uko babasha kubona ibiryo barya ikindi kandi bagasagurira n'amasoko.

Umurima urimo urugemwe rw'ikirayi, abakora ubu ubuhinzi bw'ibirayi banezezwa n'uko umurimo bakora w'ubuhinzi bw'ibirayi ubasha kubatunga kuko babasha kubona ibirayi byo kurya ikindi kandi bakaba babona amafaranga abafasha kugira ngo bikenure mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikigori kiri has, abahinga ibigori banezezwa n'uko umushinga bakora wo guhinga ibigori ibasha gutuma babona ibigori byo kurya ikindi kandi bakabona n'amafaranga abafasha mu gukemura ibibazo bijye bitandukanye.

Akabande gahinzeho icyayi ikindi kandi ku musozi hakaba hari ishyamba, munsi y'ishyamba hakaba hari kugenda abantu batandukanye bityo bakaba bari kugenda mu gahanda gato k'amaguru.

Umusozi uriho ibimera bitandukanye byiganjemo amashyamba ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiti bitandukanye, amashyamba akaba afasha abantu kubona imvura ikindi kandi hakaba habamo ubwoko bw'inyamanswa zitandukanye zishobora gukurura bamukerarugendo.

Umurima uri mu kibaya hakaba haretsemo amazi, ikindi kandi muri uwo murima hakaba hari ibiti by'amoko agiye atandukanye. Abakora ubuhinzi bababazwa no kubona ibihingwa byabo bibasha kurengerwa n'amazi, kuko hataba hafashwe amazi.

Umusozi uriho ubwoko bw'ibimera bitandukanye byiganjemo amashyamba ndetse n'ibindi byatsi, muri ayo mashyamba hakaba harimo inyubako ndetse no hafi yaho hakaba hari ubwoko bw'inyubako zitandukanye.

Agace gatuyeho abantu, higanjemo inzu z'amategura ndetse hakaba hakorerwa ubuhinzi bugiye butandukanye, bwiganjemo insina ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Ibiti by'ubwoko butandukanye birimo ibinanutse ndetse n'ibibyibushye bikaba byifashishwa mu kuvanwamo ibikenerwa haba ibyifashishwa nk'inkwi ndetse n'ibyatsi byifashishwa muri serivisi zitandukanye.

Umusozi uriho ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'amashyamba n'ibindi bigiye bitandukanye, ibi bidukikije byifashishwa mu kubona ibyo abantu bakenera mu buzima bwa bwa buri munsi, ikindi kandi ishyamba rikaba ridukururira imvura.

Inyubako nyinshi zigiye zitandukanye ziri mu mashyamba zikaba bigaragara ko izo nyubako zishaje, ikindi kandi hakaba hagaragara utuyira dutoya tw'ibirenge twamezemo ibyatsi.

Imisozi ibiri iteganye yiganjemo amashyamba, hasi y'iyo misozi mu bibaya hakaba hari abantu bahatuye bafite inyubako zitandukanye, ikindi kandi hakaba hari insina ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Igiti cy'urubuto rw'ipapayi kikaba kiriho imbuto z'amapapayi zeze ndetse n'iziteze. Abakora ubuhinzi bw'amapapayi banezezwa n'uko babasha kubona imbuto barya. Ikindi kandi bagashora ku isoko bakabona amafaranga.

Ubwoko bw'imboga zigiye zitandukanye ziri ahantu hamwe. Abakora ubuhinzi bw'imboga banezezwa nuko babasha kubona amafaranga kindi kandi bakaba babasha kubona imboga barya, bityo bakaba babona uko barya indyo yuzuye.

Umugabo uri mu murima w'inyanya, akaba ari gusarura inyanya, umugabo akaba yambaye ibikoresho bitandukanye, birimo bote ndetse n'uturindantoki, tumufasha kugira ngo ataba yakomereka ndetse anirinde indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'imbuto ndetse n'imboga bugiye butandukanye, mu mbuto harimo marakuja, pome ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, naho mu mboga tukaba tubonamo ibihaza, pavuro ndetse n'imitege.

Indabo ziri mu mabara atandukanye yiganjemo iroze ndetse n'amabara y'umweru, abakora ubuhinzi bw'indabo banezwa n'uko umurimo bakora wo guhinga indabo ubafasha kubona amafaranga, bityo bakabasha kwiteza imbere.

Umubyeyi uri mu murima w'imboga, akaba ari kuvomerera yifashishije indobo aho avoma amazi akaza agasuka mu murima, uburyo butandukanye bwifashishwa mu kuvomerera bufasha abahinzi kurengera ibihingwa byabo.

Umurima w'ibigori urimo uburyo butandukanye bwifashishwa kugirango ngo babashe kuba bavomerera, abahinzi bifashisha uburyo butandukanye kugira ngo babashe kubavomerera imirima cyangwa se ibihingwa byabo, mu gihe cy'impeshyi.

Umugabo uri mu murima w'intoryi aho ari kuvomerera. Ikindi kandi muri uwo murima hakaba harimo ubwoko bw'ibiti bitandukanye. Abakora ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga banezezwa n'uko umurimo bakora ubasha kubahesha amafaranga, bakabasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Abahinzi bari mu murima bakaba barifashishije uburyo butandukanye bubafasha kugira ngo babashe kuba bavomerera, ikindi kandi kuvomerera imyaka birinda kuba yakicwa n'izuba bityo igatanga umusaruro uhagije.

Abakora ubuhinzi butandukanye, bifashisha uburyo bugiye butandukanye mu kuvomerera imyaka yabo kugira ngo ibashe kuba yakera neza, by'umwihariko tubona umudamu ndetse n'umugabo hirya bateruye amatiyo y'amazi bari kuvomerera.

Umubyeyi uri mu murima w'amashu akaba ari kuvomerera yifashishije rozwari, hirya ye hakaba hari inyubako, impande yayo hari imodoka, hafi hirya y'imodoka hakaba hari ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo ibigori ndetse n'ibishyimbo hirya y'umurima hakaba hari ingo zitandukanye ikindi kandi hakaba hari ubwoko bw'ibidukikije bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'insina.

Ikibaya kiriho ibihingwa bigiye bitandukanye , ikindi kandi ku musozi hakaba hari amashyamba, haruguru haruguru y'akabande, hakaba hari abantu bahatuye, ndetse n'ibindi bidukikije bitandukanye.

Imisozi igiye itandukanye iba yiganjemo ibimera by'ubwoko butandukanye burimo: ibiti ,ibyatsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bifasha kugira ngo abantu babashe kubona byinshi bakenera bituruka ku bimera.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye, bihinze ku murongo, ikindi kandi hakaba hari ubwoko bw'ibimera bitandukanye, byiganjemo ibiti ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza kubungabunga ubutaka dutera ibihingwa ku murongo.

Ikibaya kiriho ibidukikije by'ubwoko butandukanye, hakaba hari umugezi munini ku nkengero z'umugezi hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, ikindi kandi hakaba hakorerwa n'ubuhinzi bugiye butandukanye.

Ibidukikije bitandukanye birimo imisozi, inzuzi ndetse n'ibiti bitandukanye aho ibikorwaremezo bifasha kugira ngo abaturage babashe kuba bakora imirimo igiye itandukanye.

Ikibaya cyagutse kikaba kiriho ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye birimo amashyamba ndetse n'ibindi biti by'amoko atandukanye bishobora gufasha kugira ngo habashe kuba haboneka byinshi bikenerwa.

Ikibaya gikorerwaho ubuhinzi bugiye butandukanye, ikindi kandi hakaba hari umugezi mutoya, muri icyo kibaya hakaba hari ubwoko bw'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'intabire.

Ikibaya kiriho ubwoko bw'ibidukikije bitandukanye byiganjemo ibiti, ikindi kandi kuri icyo kibaya hakaba hari imiturire igiye itandukanye, aho hari inzu zigiye zitandukanye, bigaragaza ko abantu bahatuye.

Ihene nyinshi ziri mu rwuri, aho ziri kurisha ibyatsi bitandukanye, ikindi kandi abakora ubworozi bw'ihene, banezezwa n'uko babasha kubona amafaranga, ikindi kandi bakiteza imbere babikesha ubu bworozi bw'amatungo y'ihene.

Ingurube iri mu kiraro abakora ubworozi bw'ingurube banezezwa nuko babasha kubona amafaranga, ikindi kandi bakaba babasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye kuko ingurube ari inyamanswa yororoka vuba.

Inka ziri mu rupango, hafi yazo hakaba hari abaganga b'amatungo, bari kuzikingira indwara zigiye zitandukana, ikindi kandi n'ikibuga cyagutse, aho bahuriza inka zitandukanye kugira ngo babashe kuba bazikingira.

Inka ziri mu rupango, hirya yazo hakaba hari abaganga b'amatungo, aho baje kuzikingira indwara zigiye zitandukanye, abakora ubworozi bw'inka banezezwa no kuba bafite abaganga bakurikirana ubuzima bw'inka boroye, babasha kuba bazirinda indwara zigiye zitandukanye.

Umushumba uragiye ishyo ry'inka rikaba ririgurisha mu rwuri rurimo ibyatsi byinshi, hirya yaho hakaba hari ibiti by'ubwoko butandukanye, abakora ubworozi bw'inka banezezwa nuko babasha kubona amata ikindi kandi bakabasha kwiteza imbere.

Abakora ubworozi bw'inkoko bifashisha uburyo butandukanye, bufasha kugira ngo babashe korora inkoko bityo biteze imbere, bumwe muri ubwo buryo mu buzifasha kugira ngo zibashe kubona ibyo zirya, ndetse n'uko zibona ibyo kunywa.

Inyubako ikorerwamo ubworozi bw'inkoko, bakaba barifashishije ikoranabuhanga ritandukanye rifasha kugira ngo udushwi tw'inkoko twororoke, ni byiza ko twese dusobanukirwa akamaro ko gushora amafaranga mu bworozi bugiye butandukanye.

Inkoko nyinshi ziri mu nyubako yabugenewe aho zirira ndetse n'aho ziba. Abakora ubworozi bw'inkoko banezezwa no kuba bakora ubworozi bw'inkoko babasha kubona amafaranga bakenera ikindi kandi bakihaza no ku magi.

Inyana iri mu kiraro ikaba iri kurisha, imbere yayo hari ibyo kurya bitandukanye birimo ibyatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, abakora ubworozi bw'inka banezezwa n'uko kuba bafite ibyatsi byo kugaburira amatungo yabo, biyafasha kugira ngo akure neza.

Ikiraro bororeramo inka cyubatse ku buryo bwa kijyambere, abakora ubu bworozi bw'inka banezezwa n'uko babasha kubona umusaruro w'ibikomoka ku matungo ndetse bakabasha no kwiteza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibibwana bine by'ingurube biri koka nyina, ikindi kandi ibyo bibwana biryamye aho birara hashashe ibintu bitandukanye, ikindi kandi ibi bibwana bimwe biri hejuru y'ibindi.

Inkoko nyinshi ziri mu nyubako yazo, zikaba harimo ibikoresho byifashishwa kugira ngo zibashe kuba zabona amazi, ikindi kandi hanze y'inyubako hagaragara ikigega gifata amazi.

Inka iri mu kiraro cyayo, abakora ubworozi bw'inka banezezwa no kuba baba bafite ubworozi bw'inka, bibasha kubateza imbere kuko babasha kubona ifumbire, ikindi kandi bakabasha no kubona amafaranga abasha kubateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abakora ubworozi bw'amatungo atandukanye cyane cyane abakora ubworozi bw'inka, kuba bikora kinyamwuga bifashishije ibikoresho bigezweho, kandi bakabikora kijyambere, bibasha kuba byabateza imbere bityo bakabasha kuba babona amafaranga.

Umuceri ni igihigwa ngandurarugo, aho abahinga umuceri babasha kuba babona ibyo bakeneye mu ngo birimo kurya ndetse no gusagurira amasoko kugira ngo babashe kuba babona amafaranga, tubona hano umuceri udatonoye.

Umubyeyi uri kwanika umusaruro w'ibigori ahantu hari ibyatsi byinshi, kandi akaba yabyanitse ku ishitingi hirya ye hakaba hari urugo ikindi kandi umusaruro w'ibigori, ukaba ugomba kwanikwa kugira ngo bawurinde uburwayi butandukanye.

Ikiganza kiriho ubwoko bw'imbuto. Abahinga ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye, banezezwa n'uko umusaruro babasha kubona, ubasha kubatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bakabona n'amafaranga.

Ikiganza gifite inzuzi mu ntoki, inzuzi zikaba zifashishwa kugira ngo bahinge ubwoko butandukanye bw'ibihaza, bityo babashe kuba babona ibihaza byo kurya.

Icyumba kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gutunganya imbuto zigiye zitandukanye, ibyo bikoresho bikaba bifasha mu kugira ngo babashe kuba hakorwa ubwoko bw'imbuto zigiye zitandukanye.

Ubwoko bw'ibinyampeke bitandukanye, byiganjemo amasoya, amashaza, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye, bakaba ari abantu baje kubicuruza.

Abaganga bari mu cyumba aho bavurira abarwayi bakaba bambaye imyambaro y'impuzankano ndetse n'ibikoresho bibafasha mu kwirinda kugira ngo babashe kuba bakora akazi kabo neza ni byiza ko mu gihe tuba twumva dufite ibibazo tuba tugomba kugana amavuriro kugira ngo babashe kuba batwitaho.

Abaganga b'amatungo bakaba bafite imbwa bakaba bari kwiyikingira bifashishije ibikoresho bitandukanye, ikindi kandi aba baganga b'amatungo baba bambaye ibikoresho by'ubwirinzi bibafasha kugira ngo babashe kuba bakikingira indwara mu gihe bakora umurimo nk'uyu nguyu.

Abaganga b'amatungo, bakaba bambaye ibikoresho byabigenewe bifashisha iyo bari kubyaza inka, bakaba bari kubyaza inka iri mu rupango rwabugenewe kugira ngo babashe kuba bayitabara.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvura amatungo ndetse no kuyakingira. Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kuba bakingira amatungo kandi babashe no kuba bayavura.

Umuganga w'amatungo wambaye isarubeti y'ubururu n'inkweto za bote z'umweru yicaye mu byatsi byinshi, afite urushinge rw'inka ari kureba niba umuti waba wagezemo neza.

Abaganga b'amatungo bari ku rupangu ,aho inka zikingirirwa bakaba bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, hirya y'aho hari inka ziri mu rupangu, zikaba zitegereje ko baza kuzikingira indwara zigiye zitandukanye.

Abaganga bavura amatungo bafasha abakora ubworozi bw'amatungo mu gukingira amatungo yiganjemo inka aho bifashisha imiti itandukanye kugira ngo babashe kuba bayakingira indwara zitandukanye.

Inkoko ziri mun nzu yazo, hakaba harimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, abakora ubworozi bw'inkoko babikora kinyamwuga kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, babona amafaranga abafasha mu kwiteza imbere.

Abaganga b'amatungo bifashisha ibikoresho bitandukanye bibafasha kugira ngo babashe kuba bavura kandi basuzume amatungo ndetse n'inyamaswa muri rusange kugira ngo bakurikirane ubuzima bwazo.

Abaganga b'amatungo bakaba bari guhanagura inka ikindi kandi abandi bayitera imiti igiye itandukanye kugira ngo babashe kuba bayivura uburwayi bugiye butandukanye bityo kugira ngo igire ubuzima bwiza.

Ingagi ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi, zikunze kuba mu mashyamba, aho zishobora gukurura ba mukerarugendo, bityo bakishyura amadovize, ikindi kandi izi nyamaswa zikunze kuba zishobora kugira amahane ku bantu bazisagariye.

Impara ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi zirisha, ikindi kandi izi nyamaswa zikaba zibasha gukurura ba mukerarugendo bityo bakishyura amadevize. tubona inyamaswa z'ipara ziri kurisha ibyatsi, hirya yayo hakaba hari ubwoko bw'ibiti by'ibimera bitandukanye.

Ubwoko bw'inyamaswa zitandukanye ziganjemo inzovu ndetse n'izindi ziri mu mashyamba aho zikurura ba mukerarugendo kugira ngo babashe bakishyura amadovize bityo u Rwanda rutere imbere.

Impala ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi zikunze kuba mu mukenke aho zishobora gukurura ba mukerarugendo baza kuzisura bityo bakishyura amadovize u Rwanda rukabasha kwiteza imbere.

Intare ni ubwoko bw'inyamanswa z'asozi zishobora gukurura bamukerarugendo, ni byiza ko twese tumenya kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kugira bibashe kuba byaduteza imbere mu buryo bugiye butandukanye.

Inkende ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi, aho zishobora gukurura ba mukerarugendo baza kuzireba, bityo bakishyura amadovize ashobora guteza imbere igihugu, ndetse n'abatuye b'igihugu muri rusange.

Ingwe yuriye igiti ikaba iryamyemo. Ingwe ni ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi, aho ishobora gukurura abantu bashobora kuba bayisura, kugirango babashe kuba basobanukirwa neza ubwoko butandukanye bw'inyamaswa z'agasozi.

Inyoni ni kimwe mu nyamanswa z'agasozi zishobora gukurura ba mukerarugendo by'umwihariko imisambi aho ibarizwa hafi y'ibiyaga ndetse n'amazi ikindi kandi ugasanga ibasha kuba yakurura ba mukerarugendo bakishyura amadovize.

Intare ni ubwoko bw'inyamaswa zibarizwa mu nyamaswa z'agasozi, zikaba zishobora gukurura ba mukerarugendo, bityo bakishyura amadovize maze u Rwanda rugatera imbere. Ni byiza ko tuba tugomba kubungabunga ibyiza nyaburanga kugira ngo bibashe kuba byaduteza imbere.